Aha ni mu muhanda, ndetse harimo ibinyabiziga binini byagenewe gutwara imizigo. Ndetse mu muhanda imbere yaho haragaragara ahantu hashobora kuba hari gukorerwa ibikorwa by'ubwubatsi.

Aha ni imbere y'umuhanda ndetse hateye ubusitani, imbere yaho hakaba hari inzu yubatse ku buryo bugezweho ndetse hakaba hari na numero y'umuhanda byifashishwa mu kurangira umuntu.